Umugabo wambaye umupira w'umweru, urimo amabara y'umutuku, afite mikoro mu kaboko kambayeho agakoma. Ari kubabaze ikibazo cye kugira abari mu nama bamusubize atahe anyuzwe nta ngingimira afite.

Mu mikino y'Umurenge Kagame kapu yabaye kuwa karindwi z'ukwa kabiri bibiri na makumyabiri na kane, mu bagore uwabaye saa sita wahuje Umurenge wa Mayange ndetse n'Umurenge wa Kabarore, mu gihe umukino wahuje abagabo wahuje Umurenge wa Mwogo ndetse na Ngarama. Ni umukino wabereye kuri sitade ya Bugesera.

Inama yahurije inzego za leta n'iz'abikorera hamwe, irimo abayobozi bo mu nzego nkuru z'igihugu ndetse harimo n'abo mu nzego z'urubyiruko. Barimo bararebera hamwe uburyo hakwimakazwa umuco w'amahoro mu muryango.

Imbaga nyamwinshi iteraniye hamwe iri kwigwa ku kibazo cy'umutekano uri mu burasirazuba bwa Kongo, inzego z'umutekano zahurije hamwe abaturage zibahumuriza, zibabwira ko badakwiye gukuka umutima kuko zibabereye maso.

Imbaga y'abantu bateraniye hamwe bicaye buri umwe afite icupa ry'amazi n'icupa rya ji imbere ye, bambaye imyambaro igiye itandukanye, bateze amatwi, bigaragara ko imbere yabo hari uri kubaha imbwirwaruhame.

Mu rwego rwo kugira ngo inama igende neza, biba byiza iyo abayitabiriye basangiye ibitekerezo. Uyu musore tubona aha, afite mikoro mu ntoki, afite n'igitabo yateguyemo ibibazo byo kubaza abayobozi, ari kugenda abasaba ubufasha.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bateraniye hamwe bigaragara ko ari muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, buri umwe afite agakayi, icupa ry'amazi ndetse n'icupa rya ji, bitabiriye inama igomba kumara amasaha umunani.

Siporo rusange usanga akenshi na kenshi ari kimwe mu bikorwa bihuza abantu benshi, rimwe na rimwe hari ubwo iyo irangiye abayobozi baba bayitabiriye, bahita bakusanyiriza hamwe abaturage bakabigisha ku nsanganyamatsiko runaka.

Mu rwego rwo gusangira ijambo n'uburyo bwo gucunga umutekano w'abantu n'ibintu, usanga yaba inzego za polisi, igisirikari ndetse na Dasso, zegera abaturage bakaganira. Ubu ngubu nta muturage ugitinya umusirikari, ngo mubone nk'uza kumugirira nabi.

Inama yahurije abayobozi bo mu nzego nkuru z'Igihugu, bicaye hamwe baganira byinshi cyane bitandukanye, bimwe mu bigo byateye inkunga iyi nama harimo Equity ndetse n'icyitwa "invest in Rwanda".

Imbaga nyamwinshi y'abantu bateraniye hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore gusa abagabo nibo biganje, abenshi muri bo bambaye amashati ajya kuba ubururu uretse bake bambaye andi mashati afite irindi bara, buri umwe yicaye ku ntebe y'umutuku kandi iyo ntebe iregamirwa.

Umugabo muremure cyane ufite mikoro ni umupolisi, afite inyenyeri n'ibihanga ku rutugu, ku mifuka y'umupira yambaye hariho amazina ye ndetse n'icyo ashinzwe, afite indangururamajwi ari kubwira abamuteze amatwi ko bagomba kwirinda ibiyobyabwenge.

Umugabo bigaragara ko afite ibibazo byinshi afite uruhara ndetse n'amatwi ye ni manini. Imkanyankari yatangiye kuza mu maso, bamuhaye imikoro iriho akantu kajya kuba umuhondo, ari gutanga ikibazo cye ngo perezida wa repubulika ahave agikemuye.

Abiganjemo urubyiruko rw'abasore n'inkumi bari mu myiyereko yo kugaragaza impano, hari abari kubyina, aba kwivuga n'abarivuga ibisigo, bose icyo bahurizaho ni uko bambaye imipira y'umweru, nubwo itakozwe n'uruganda rumwe.

Bimwe mu byifashishwaga mu Rwanda rwo hambere by'umwihariko mu bijyanye no kubyina ndetse no mu bitaramo muri rusange ni imisatsi, yashyirwaga ku ntore zikayikaraga zica umugara, ukabona ari ibintu bishimishije.

Mu Rwanda rwo hambere intore ndetse n'abakaraza iyo babaga bitabiriye ibirori ababaga bari muri ibyo birori bose bagombaga gutaha banezerewe, babaga bambaye inkweto zifunguye ndetse banafite ingabo n'icumu mu ntoki.

Ibiti bibaje neza, barabibaje barangije barabitobora. Iyo utegereje neza ubona ko bisize verine ku buryo ugifata kitamuhanda. Ibi biti iyo twinjiye mu buvanganzo nyarwanda ntibavuga ibiti bivuza ingoma bavuga imirishyo.

Intore iyo zibyina zihamiriza ubona ari ibintu bishimishije abarebyi rimwe na rimwe ugasanga hari n'ubwo amatsinda yabo ashobora gutumizwaho akajya kubyina mu birori ku rwego rw'igihugu.

Mu muco gakondo by'umwihariko umuco nyarwanda usangamo ibiseke, amasekuru ndetse ukanasangamo imihoro ya kinyarwanda, ibi byose bikaba byarabonekaga ibwami mu mihango yo kwera no kwirabura.

Mu Rwanda rwo hambere wasangaga kogosha amasunzu ari umuco, rimwe na rimwe ugasanga birakorwa cyane ku ntore hatitawe ku kuba ari abagabo cyangwa se abagore, kuri ubu hari abagenda babikora gusa si benshi.

Umwamikazi Rosaliya Gicanda mu mafoto ye akunda kugaragara henshi, usanga aba atatse mu buryo bw'urugori ndetse bikagaragara ko ababikoraga ari abantu babaga baratojwe cyane.

Mu rwanda rwo hambere buri mugabo wese yagombaga kuba afite icumu ndetse yararihimbiye n'icyivugo bitewe n'uko buri umwe wese yabaga ategetswe nibura kujya ku rugamba, akajya guhangana n'ababisha mu gihe habaga hagurwa imipaka y'igihugu.

Mu rwego rwo kumurika umuco iyo u Rwanda rwagiye mu marushanwa mpuzamahanga, usanga intore zibyina zamba amayugi. Mu gihe kandi zinaba zifite ingabo n'icumu mu ntoki kugira ngo bamurike umuco nyarwanda.

Agaseke kaboshye neza ubona ko gashobora gukurura ba mukerarugendo baza gusura inzu ndangamurage bakakabonamo, aka ni kamwe twifashishwaga kera, ubwo wabaga bagiye mu bukwe, hagashyirwamo imyaka, bakagenda babyikoreye bikitwa amafukire.

Mu Rwanda rwo hambere kubona umukobwa cyangwa se umutegarugori utazi gukenyera umukenyero, byabaga ari ibintu bitangaje. Uyu nguyu urabona ko na we yabikoze ariko yabikoze mu buryo bugezweho bigendanye n'iterambere ry'aho igihugu kigeze.

Ipoto y'amashanyarazi bigaragara ko atari ipoto isanzwe bitewe n'uko izi ngizi zizwiho kwambukiranya ibihugu, akenshi na kenshi usanga umuriro wazo uva mu Rwanda, ugaca muri Tanzaniya ndetse n'u Burundi.

Abagabo babiri bari ahatangirwa umuriro w'amashanyarazi ku ikusanyirizo, bari kwita ku kibazo cy'ipoto y'amashanyarazi yavunitse bigatuma igihugu cyose gihungabana, by'umwihariko igice cy'intara y'Uburengerazuba.

Ikigo k'igihugu gishinzwe iby'umuriro w'amashanyarazi REG, gikomeje kwita ku micungire yawo. Aha ngaha turahabona abagabo bambaye ingofero n'amajire, biriho ibirango na nimero zabo, mu rwego rwo gufasha abatura Rwanda kubona umuriro.

Umugabo ukora mu kigo cy'Igihugu gishinzwe amashanyarazi REG, yambaye umwambaro wabugenewe usa n'umukara, yambaye n'ingofero mu mutwe ishobora kumurinda gukomereka, ari gufungura kashi pawa ashyiramo imibare ngo arebe ko umuriro wakongera kugaruka.

Umugabo ushinzwe ibijyanye n'amashanyarazi yambaye ijile imuranga, ari kureba ku ipoto itwara umuriro ndetse areba niba ibibazo yagize ashobora kuba yabikemura nta zindi nzego zisumbuyeho ahamagaye.

M rwego rwo gufasha abaturage batuye mu bice by'ibyaro ahataragira umuriro w'amashanyarazi, Leta y'u Rwanda ifatanyije n'umushinga witwa tubura, bashyizeho uburyo bwo gutanga umurasire kuri buri rugo kugira ngo bajye bishyura make make, hanyuma babashe gucana nijoro.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu Rwanda, gikangurira abaturage kutirahurira kuko bishobora gutera impanuka za hato na hato, zikurura impfu no kwangirika kw'ibikorwa remezo byaba iby'abantu ku giti cyabo ndetse n'ibikorwaremezo muri rusange.

Ipoto nini cyane itwara amashanyarazi izwi nka taransifo iri hirengereye hadatuye abantu handitseho ko uhegereye wapfa. ibi ngibi bikorwa mu kwirinda ko habaho impanuka ziterwa n'umuriro w'amashanyarazi.

Umugabo wambaye ijire y'ubururu ndetse n'ingofero ijya kuba umuhondo mu mutwe yuriye ipoto y'amashanyarazi, afite ibikoresho byabugenewe agiye kureba icyateje ibura ry'amashanyarazi umunsi wose.

Ipoto y'amashanyarazi ishinze ku muhanda, iyi ngiyi ikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho iyo bwije yiyatsa itagombiriye ko hari uza kuyikoraho. Iriho amatara abiri rimwe rireba mu muhanda wo hepfo, irindi rireba mu muhanda wa ruguru.

Aha ngaha biragaragara ko ari mu ihuriro ry'aho umuriro w'amashanyarazi ushobora gukorerwa igihe wapfuye mu gihugu hose, hari abagabo babiri umugabo umwe yambaye ijire yanditseho maganae na gatanu, undi nta jire yambaye ariko yambaye ingofero y'umweru.

Umudugudu w'icyitegererezo bigaragara ko wubatswe vuba iruhande rwawo hari igihingwa cy'urutoki ndetse n' avoka, ibyo byose biherekezwa n'umuriro w'amashanyarazi ku nsinga zinyura hejuru y'ingo zihari, aho buri rugo rugenda rurahura bitewe n'uko rwifite.

Umuriro w'amashanyarazi aho uhurira mu gihugu hose usanga hari inzobere zabizobereye zikabyiga zikanaminuza kugira ngo hatazigera habaho amakosa yo gutuma umuriro ugenda mu gihugu hose.

Mu rwego rwo kwirinda ko habaho impanuka zishobora guturuka ku muriroro w'amashanyarazi, ni byiza ko insinga z'amashanyarazi ziteranywa n'abantu babizobereye ndetse babifitiye ubuhanga. Iyo ufashwe ugerageza kwigana ubihanirwa n'amategeko.

Imbaga nyamwinshi y'abantu yitabiriye igikorwa cyo gutaha iteme ryubatswe ahazwi nko ku kan Nyiranjogera, aho iteme ryabatezaga ibibazo ryaba ryacitse imvura yaguye, ubuhahirane bugahagarara.

Inyubako ngari nubwo itageretse ariko biragaragara ko ari ibiro by'akarere cyangwa se umurenge, ni inyubako isakaje amabati arimo ubwoko bujya kumera nk'amategura yo hambere ariko kubera ikoranabuhanga akozemo si amategura.

Sitade mpuzamahanga y'Akarere ka Huye ni imwe mu ma sitade yagiye aberaho imikino itandukanye ubwo sitade Amahoro yari irimo yubakwa na Kigali Pele Stadium itaravugururwa ngo yuzure neza ariko kuri ubu sitade Amahoro yaruzuye.

Unyubako nyinshi za Leta, usanga ziba ziriho abashinzwe gucunga umutekano, yaba ku manwa ndetse na nijoro kugira ngo hatazagira ibyangizwa n'abagizi ba nabi, baba batifuza iterambere ry'igihugu.

Ikiraro cyaje gikenewe ni ikiraro cyo mu kirere gifasha abaturage guhahirana mu buryo bwihuse, aha ngaha haragaragara ibinyabiziga byifashishijwe mu kubaka iki kiraro kugira ngo kigere aho kigeze aha.

Inyubako igaragara ko ari Akagari cyangwa se Umurenge hariho umugabo wambaye neza cyane bigaragara ko ari umuyobozi ukora muri ibyo biro, hariho kandi umugore uje amugana aje gushaka serivise z'ubutaka.

Inyubako nini cyane bigaragara ko ishobora kubikoreramo nka minisiteri eshatu bitewe n'ingano yayo cyangwa se ikaba ari inyubako ikoreramo umujyi wa Kigali n'izindi nzego ziwushamikiyeho.

Umuhanda wa kaburimbo werekeza ahari ibikorwa remezo bitandukanye bya Leta ubona ko bifasha Igihugu kwinjiza amafaranga menshi, anavamo ayifashishwa mu ngengo y'imari kugira ngo imibereho myiza y'abaturarwanda ikomeze kunozwa.

Umugore umaze iminsi ashyamiranye n'umugabo we, bari mu nama y'akagari mu cyo bita akagoroba k'ababyeyi, buri umwe ari gutanga igitekerezo cye avuga uburyo mugenzi we amubangamira mu rugo.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bateraniye hamwe, biragaragara ko yaje kwitabira urubanza rw'ukekwaho gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure, ni ukuvuga ko yamufashe ku ngufu. Barimo baramusabira guhanwa bikurikije amategeko.

Imbaga nyamwinshi iteraniye mu cyumba cy'inama, biragaragara ko iri kwiga ku kibazo cya ruswa cyugarije umuryango nyarwanda ndetse n'umugabane w'Afurika muri rusange ariko bakaba biteguye gushakira umuti urambye iki kibazo.

Inzego zishinzwe umutekano, zirimo abadaso, Igipolisi cy'u Rwanda, Igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'abakorerabushake mu rubyiruko, bari guhashya ibijyanye n'ibyaha, yaba ibyitwikira kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi byose bifitanye isano na byo.

Umugabo usa n'uwiyubashye yambaye amataratara, afite umusatsi uconze utari mwinshi cyane, inyuma ye hari umukobwa umuherekeje, uyu mugabo agiye kuburana icyaha aregwa kugira ngo arekurwe, nyuma y'iminsi mirongo itatu afunzwe by'agateganyo.

Abagabo ndetse n'abagore mu by'ukuri n'imbaga nyamwinshi yitabiriye ibikorwa by'iburanisha ku mugabo ukekwaho ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu abigambiriye, ku nyungu ze bwite.

Inama yahurije hamwe ubuyobozi iriga ku itegeko rigamije guhana uwakoze icyaha agatoroka, ariko hagamijwe gushyirwaho uburyo icyo cyaha kitasaza.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bahuriye hamwe bicaye mu gisharagati gikoreshejwe amabara arimo idarapo ry'u Rwanda, harimo abapolisi, abasirikari, aba DASSO n'abayobozi mu nzego nkuru z'Igihugu.

Mu rwego rwo kwimakaza umuco w'amahoro, u Rwanda rwashyizeho urukiko gacaca kugira ngo rubashe gucira imanza abakoze jenoside yakorewe abatutsi, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana ikenda mirongo ikenda na kane, bityo inkiko nazo ziroherezwa.

Mu modoka rusange usanga abagenzi bose bagenda bijujutira uburyo abashoferi bagenda babatsindagiramo abandi bagenzi bakagera iyo bajya barushye kubera ko baba bicaye bacucitse nk'abicaye muri twegerane.

Imihanda myinshi ya kaburimbo mu Rwanda usanga yubakitse mu buryo butatu. Uruhande rumwe ruba ruriho abanyamaguru urwo ni urw'iburyo, urw'ibumoso rw'ibinyabiziga hanyuma hagati hacamo ibinyabiziga birimo moto ndetse n'amagare utibagiwe imodoka.

Umuhanda w'igitaka bigaragara ko unyurwamo n'imodoka zitandukanye yaba iza Leta ndetse n'iz'abikorera, biragaragara ko hatangijwe igikorwa cyo gushyiramo kaburimbo, nkuko Leta y'u Rwanda yabyiyemeje kugira imihanda myiza ikeye.

Umuhanda wa kaburimbo hano baratwereka uburyo ushobora kwambuka naho kwambukira, harimo amabara y'umukara n'umweru, ahazwi nko muri zebla- crossing. Aha ngaha iyo uhageze ugenda wihuta kandi nturangara, ikindi ntuhubagurika kugira ngo udateza impanuka.

Icyapa kikwereka ko ugiye kwinjira mu karere ka Nyagatare iyo ugiye kugera mu murenge waho barakubwira ngo winjiye muri Nyagatare, bakakwereka ko ari ibirometero igihumbi na magana atatu. Oya nako ntabwo ari ibirometero igihumbi na magana atatu ahubwo ni metero igihumbi na magana atatu mirongo itanu.

Mu rwego rwo gukumira umutekano muke ushobora kuba wakururwa n'impanuka mu muhanda, usanga leta ifatanyije n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ingendo, barashyizeho uburyo bwa Tap and go.

Akarere ka Nyagatare, umurenge wa Nyagatare, akagari ka Ryabega, aha ngaha ni hamwe mu hari igicumbi cy'umudugudu wa Kigeni, aha ngaha barakubwira ngo kirazira kugambanira Igihugu.

Mu rwego rwo gucunga umutekano mu giturage, inzego zibishinzwe zirimo Polisi, Igisirikari ndetse na Dasso, bafatanyiriza hamwe n'abaturage biyemeje kuba ijisho rya bagenzi babo.

Mu rwego rwo kwimakaza umuco wo kugira umutekano, Leta yashyizeho gahunda y'uko buri muturage agomba kuba ijisho rya mugenzi we, ibi kandi buri muturage yarabyumvise abifashijwemo n'inzego z'umutekano zirimo DASSO, polisi ndetse n'ingabo.

Imbaga nyamwinshi y'abantu iteraniye hamwe ikurikiye umuntu ukekwaho kwica yabanje gusambanya umwana w'umukobwa utaruzuza imyaka y'ubukure bitewe n'uko yahohotewe bikaza kumuviramo urupfu, ibi byose bikaba biri kugirwamo uruhare n'abaturage.

Inzu bigaragara ko ari ibiro by'akarere cyangwa se intara, haparitse imodoka nziza yo mu bwoko bwa Toyota lava four, ikindi kandi iruhande rwayo haparitse umukindo nk'umwe Naomi yagonze.

Mu rwego rwo kwimakaza umuco w'ubufatanye, ingabo z'u Rwanda, Polisi y'u Rwanda ndetse na dasso, zifatanya n'abaturage ndetse n'abanyeshuri bari ku rugerero, kubakira abatishoboye kugira ngo ibikorwa byabo bibashe kugenda neza.

Mu bikorwa by'umuganda rusange usanga abakozi bo mu biro bamanutse bagiye kwikorera amabuye, ntibagenda bonyine kuko inzego z'umutekano zirimo DASSO abasirikari ndetse na Polisi y'igihugu nabo uwo muganda rusange batawutangwamo.

Muri gahunda ya tinyuka urashoboye abagore na bo biyemeje kujya bakora imirimo ibyarira Igihugu ndetse n'imiryango yabo akamaro, ikindi kandi ntibigeze batangwa mu kuba ijisho rya bagenzi babo mu gucunga umutekano w'ibintu n'abantu.

Abakinnyi babiri bambaye amajezi atandukanye, umwe yambaye ijezi y'umuhondo n'amasogisi y'umukara, mugihe undi yambaye ijezi y'ubururu n'amasogisi y'ubururu arimo uturongo tw'umweru, bose bahagaze mu kibuga bategereje ko umusifuzi atangiza umukino.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru bigaragara ko nubwo atari sitade Amahoro ariko kimeze neza kandi ari icyo mu Rwanda, harimo amakipe abiri. Ikipe imwe yambaye nka Rayon sports, indi yambaye nka Gasogi. Biragaragara ko umukino utaratangira bitewe n'uko umusifuzi atagaragara.

Umugabo wambaye ijezi y'umukara irimo amabara ajya kuba ubururu, yambaye amasogisi y'umweru, inkweto z'umutuku. Balo ari gukina irimo amabara y'umweru, umutuku ndetse n'ubururu, ari gukinira ku kibuga cya tapi.

Abakinnyi bambaye amajezi y'umuhondo ndetse n'umukara b'ama ekipe abiri atandukanye, biragaragara ko batabigize umwuga nubwo bagaragara nk'abakinnyi bafite inda nini, kandi izi ngizi ntabwo zishobora kugaragara ku ba siporutifu babikora nk'umwuga.

Abana bari gukina umupira umwana, umwe ari kubacenga yambaye inkweto n'amasogisi y'umukara, yambaye ikabutura y'umutuku irimo amabara y'umukara, ikindi kandi yambaye agapira k'umukara imbere karimo ibara rijya kuba umweru usa n'ivu.

Abakinnyi babiri bahuye n'umukinnyi umwe arabacenga arabandagaza. Abo bakinnyi bari gucengeka bambaye imyenda isa n'ubururu bigaragara ko bashobora kuba ari ab'ikipe ya Rayon sport, bari gucengwa n'ikipe ya mukuru Victory sport.

Siporo rusange ni imwe muri siporo zikorwa n'abatari bake, barimo n'abayobozi ubona ko baba bagamije gusabana n'abo bayobora. Nyuma yuko siporo bazisoje, bahita bahitira mu bijyanye n'ibikorwa bya leta.

Umupira w'amaguru ni imwe mu ngeri zihuza abantu batandukanye, aha ngaha ni mu cyiciro cya kabiri cy'umupira w'amaguru hano mu Rwanda aho abakinnyi bakinira ku bibuga bibi kandi bitariho n'ubwatsi ku buryo bashobora kuhavunikira imvune zivurirwa muri Maroc.

Amakipe abiri y'umupira w'amaguru arimo arakina. Biragaragara ko nta musifuzi urimo ariko ni kuri sitade nziza ishashemo tapi. Ikindi ariko na none nubwo barimo barakina nta musifuzi, birahita bikwereka ko ari abakinnyi batabigize umwuga.

Umugore wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'ubururu yambaye umupira wanditseho numero icumi mu mugongo bigaragara ko ari uw'ikipe ya Manchester United, uyu ni umwambaro wahoze wambarwa n'uwitwa Marcus Rashford.

Umugabo ari kwa muganga yambaye umupira w'ubururu bwijimye, umuganga uri kumuvura yamushyize igipimo ku kizigira cy'akaboko, yambaye ingofero y'umukara imisatsi iragwa mu mugongo ndetse yambaye n'ijire isa n'ubururu bw'ikirere.

Umugabo munini cyane wambaye ijezi y'umukara, mu mugongo harimo nimero umunani, ari mukibuga ari gukina umupira. Umusifuzi uri gusifura uwo mukino ni umugore. Ikindi kandi uwo mugore yambaye amasogisi y'umukara. Mu gihe umukinnyi yambaye inkweto z'umutuku n'amagisi y'umweru.

Muri sitade y'akarere ka Huye ahakunda kubera imikino mpuzamahanga, hari kubera umukino uri guhuza ikipe ya Rayon sports na Kiyovu sports mu irushanwa ry'igikombe cy'ubutwari, witabiriwe n'abayobozi mu nzego nkuru z'Igihugu.

Umuhanda wa kaburimbo wubatse mu buryo burimo imparabutatu, igice kimwe cy'ibumoso ni icy'uruhande rucamo abanyamaguru, yewe n'iburyo ugasanga ari uko bimeze hagati hacamo imodoka ndetse n'ibinyamitende nk'amagare n'amamoto.

Mu muhanda wa kaburimbo ahazwi nko muri ropuwe, harimo umwana n'umugabo bari kugenda bambuka. Bari kugenda gake ariko ku buryo imodoka ishobora kuba yabagonga batihuse kandi ibingibi leta ihora ibikangurira abaturarwanda.

Umugabo uri kugenda mu muhanda utari kaburimbo ariko na none utari igitaka, bitewe n'uko ukozwemo n'ibisima ndetse n'utwuma ,ari gusunika igare yambaye umupira w'umutuku ipantaro y'umukara ,biragaragara ko avanye imyaka ku isoko.

Umumotari uri kugenda mu muhanda arimo wenyine kuko ni umuhanda utari nyabagendwa nubwo ari kaburimbo imeze neza. Iruhande rw'iyo kaburimbo hari ibiti bya pinusi. Uyu mumotari yambaye kasike y'umutuku ndetse n'ikoti ry'umukara.

Imihanda yo mu byaro ubona ko nayo igenda ishyirwamo imbaraga kugira ikorwe neza, aho bishoboka hagashyirwamo kaburimbo, aho bidashoboka hagafaswamo amabuye agabanya icyondo akarinda ibinyabiziga kunyerera.

Mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abanyamaguru, umuhanda iyo wubakwa usanga ufite ibice bitatu. Igice cya mbere aba ari igice cyo hagati gicamo ibinyabiziga ama moto amagare n'amamodoka. Hanyuma iburyo n'ibumoso hakaba hari akayira k'abanyamaguru.

Imihanda myinshi mu Rwanda usanga ifite inzira z'abanyamaguru, aho imodoka zica hakaba hatandukanye n'aho abanyamaguru baca, kandi ibyo byose bikaba ku ruhande rw'ibumoso n'urw'iburyo, ni ukuvuga ko buri muhanda uba ufite inzira y'abanyamaguru iburyo n'ibumoso.